Iyi ni inoti y'amafaranga magana biri y'igihugu cya repubulika ya kongo, urabona ko iriho n'amazina y'icyo gihugu, hakaba hariho n'izindi ndangagaciro zibaranga mu gihugu cyabo nk'umuntu uri guhingaga inyuma.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura ukoreshesheje momo peyi, urabona ko ubanza ugakanda akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri , akanyenyeri, rimwe ugashyiramo umubare, kode yawe n'iyo mibare ubona hariya mirongo icyenda ,makumyabiri na gatanu ,zero ,gatanu hanyuma ugashyiramo urwego ubona ko amazina yanditse kuri NGABONZIZA Jean Bosco hanyuma ukaba wakwishyura umucuruzi ukoresha ubu buryo bwa momo peyi.